Uyu ni muganga uri gufata imiti yandikiye umurwayi kugira ngo ayimujyanire, ni ukuvuga ni umufarumasiye ukora muri farumasi, utanga imiti iri kuri ardonasi medicari.

Ibi ni ibitaro biriho, byakira abarwayi bafite indwara nyinshi zitandukanye, cyangwa se abatazifite bashaka kugirwa inama, ku bijyanye n'ubuzima bwabo, urugero nk'abantu batwite, bafite ibindi bibazo bitandukanye.